Ibigori ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu gihe gito kuko usanga abahinzi babyo babona amafaranga bakiteza imbere, bagateza n'igihugu imbere muri rusange.

Ifumbire mva ruganda akenshi ikunze guhinga ibintu bitandukanye, harimo urutoki ndetse n'imyumbati, aho usanga abahinzi bayikoresha kugira ngo beze imyaka.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko usanga bifite umumaro munini cyane, akenshi abantu babikoresha iyo bari guhinga kuko bituma ibihingwa biticwa n'inkubi y'umuyaga.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye ndetse n'imiti bigaragara ko muganga ayikoresha ari kuvura inyamaswa zagize ibibazo ndetse n'amatungo.

Inyubako itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, usanga hakorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi, ibikorwa bijyanye no kwiga ndetse n'ubundi hakaberamo n'inama.

Inyubako iriho ibikoresho bigiye bitandukanye, icurizwamo ibintu byinshi harimo imiti ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bicururizwa muri iyi nyubako.

Abakora ubuhinzi bw'ibitoki ndetse bakaba barimo kugenda bakusanya ifumbire ryo kongera ku myaka yabo kugira ngo ibashe kuba yatanga umusaruro, akaba bagera kuri babiri.

Amabase agera kuri ane akaba harimo ibintu byu'mweru bimeze nk'umuceri, akaba ari amoko agiye atandukanye hifashishwa mu guhingwa cyangwa se mu gihe barimo kuba babigura ndetse kandi aha ngaha hariho n'utuntu tugiye turi mu ibase.

Abacuruzi benshi bakunze gucuruza ibicuruzwa byabo kugira ngo babone amafaranga, akaba ariyo mpamvu ubona hari ibicuruzwa byinshi byaranguwe ku giciro gito ariko bikagurishwa ku mafaranga menshi.

Iyo abantu bari guhinga usanga bakoresha ifumbire mvaruganda kugira ngo babone umusaruro mwinshi. Hari abahinzi rero babigize umwuga ku buryo usanga rimwe na rimwe babona amafaranga menshi.

Abagabo bagera kuri batatu, babiri muri bo barimo kugenda bayora ifumbire y'imborera, umwe kandi yambaye ibirenge, yahinnye ipantaro, akaba ari kumwe n'undi wambaye bote z'umukara, bakaba barimo kugenda bariyora kugira ngo barijyane mu murima wabo.

Abahinzi bakunze gukoresha ifumbire mvaruganda mu gihe bari guhinga ariko iyo itabonetse kubera ubushobozi, bakoresha ifumbire ikomoka ku matungo maze bakabasha kubona umusaruro.

Inyubako icururizwamo imiti itandukanye, ubona ko ari inzu isize irangi ry'umweru kandi iteye umucanga, inyubako iruhande rwayo hari ibindi bikoresho bitandukanye.

Ibase ikaba irimo ifumbire mvaruganda bagiye kujyana mu murima kugira ngo ihuzwe n'irindi fumbire ry'imborera kugira ngo babashe kuba babona umusaruro uhagije, kuko ibi byose byifashishwa mu kuba byatubura umusaruro.

Ifumbire mvaruganda ni ingirakamaro akenshi ifasha abahinzi kubona umusaruro bityo bakabasha kwiteza imbere. Akenshi na kenshi usanga iyo abahinzi barimo guhinga babona amafaranga menshi.

Ahantu bacanye umuriro ukaba wazimyeka hakaba hasigaye ivu gusa ndetse kandi ni ahantu mu gisambu kwa kundi ubanza gukusanyiriza ibyatsi hamwe bakabitwika kugira ngo babashe gusukura umurima mbere yo kuwuhinga.

Inyubako icururizwamo imiti y'amoko atandukanye, yaba iri mu ducupa dutandukanye kandi iyi miti ikaba yizewe ku buryo ikoreshwa n'abaturage benshi.

Inyubako icururizwamo imiti itandukanye, harimo utu etajeri turimo ibicuruzwa batanga kandi ku mafaranga atari menshi cyane kuko ni makeya.

Abahinzi benshi usanga bakoresha ibikoresho byo kuvomerera imbuto zabo kuko usanga babikuramo amafaranga menshi cyane, bityo bakabasha kwiteza imbere mu buryo bwose.

Umurima uhinzemo ikawa ndetse zatangiye kuzana ibitumbwe, ikawa kandi ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu byoherezwa mu bihugu byo hanze hanyuma igihugu na cyo kikabona Amadovize.

Ahantu hari amoko y'ibiti bigiye bitandukanye byiganjemo avoka, aha ngaha akaba ari aho babitunganyiriza mu gihe bikiri bitoya, byamara gukura bakaba babigurisha bakabijyana kubitera mu bice bigiye bitandukanye.

Abahinzi usanga bavuga ko ikawa ari igihingwa cyiza kuko kibaha umusaruro maze bakabona amafaranga menshi yo gukoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Umurima uhinzemo ikawa zikaba zisasiye, hakurya hakaba hariho insina, hakaba hariho n'ibiti, aha ngaha bakaba biteze umusaruro cyane cyane ku bihingwa ngengabukungu.

Umurima ukaba urimo ikawa zamaze guhisha, zikaba habura igihe gitoya kugira ngo zisoromwe zibe zajyanwa, aho zitunganyirizwa cyangwa se bazijyane no ku masoko agiye atandukanye, kuko ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu.

Igihingwa cy'urutoki usanga gikunze kwera, umusaruro mwinshi bitewe n'ifumbire iba yashyizweho, ni yo mpamvu usanga abahinzi bashishikarizwa, gukoresha ifumbire mvaruganda kugira ngo babone umusaruro mwinshi.

Abahinzi benshi, usanga bakunda gukoresha ifumbire, kugira ngo babone amafaranga. Ni yo mpamvu, ariyo usanga abahinzi barabigize umwuga, bityo bakabona amafaranga menshi.

Ahantu bahinga cyangwa se bakaba borora ibiti kugira ngo babashe kubijyana mu bice bigiye bitandukanye, hakaba hariho umuntu usanzwe abigurisha. Aha ngaha ushobora kujya kubigura mu gihe ushaka gukora ishyamba.

Abahinzi usanga bavuga ko iyo bahinze imboga nyinshi bakuramo amafaranga yifashishwa mu gukora ibikorwa bigiye bitandukanye, akaba ari yo mpamvu usanga babyitaho cyane.

Umurima uteye mu kajagari hakaba harimo ibyatsi bigiye bitandukanye byiganjemo ibiti, hakaba harimo n'imyanda bagiye bajugunyamo yiganjemo amasashi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibiti bigiye bitandukanye bya kawa ubona ko biriho imbuto, ni ibiti ubona biriho ifumbire mvaruganda kandi bitanga umusaruro mu gihe nyacyo.

Umurima w'icyayi, hakaba harimo utubabi tugiye dutandukanye bagenda basomama kugira ngo tuze gukoreshwa mu gihe barimo kugenda bareba umusaruro wavuyemo, ndetse kandi utwo hejuru tugiye dutoya nitwo bafata.

Amapapayi amaze gushya, aho nyir'umurima asigaje kuba yayasarura, akaba yayajyana kuyagurisha mu bice bigiye bitandukanye by'Igihugu. hakaba hariho...

Umusaruro w'ibigori bakaba yaragiye bawukusanyiriza hamwe, bikaba byatangiye kuma hakaba, habura igihe gitoya kugira ngo bijyanwe mu ruganda babe babitunganya bivemo akawunga cyangwa se ifu y'ibigori.

Ikawa ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku bantu benshi, akaba ari yo mpamvu abahinzi bakunda kuyihinga, bakabona amafaranga abafasha gukemura ibibazo bimwe na bimwe bigiye bitandukanye kandi bikabagirira akamaro.

Inanasi ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu buryo bworoshye, akenshi usanga abahinzi b'inanasi babona amafaranga aturuka mu bice bitandukanye by'igihugu.

Abahinzi b'ikawa bakunda guhinga ikawa kuko babona amafaranga menshi bityo bikabafasha kwiteza imbere, niyo mpamvu usanga abahinzi bakunda kuba bafite iterambere rirambye.

Akayira kakaba kagana mu bice bigiye bitandukanye, hakaba hateye imyumbati, yayindi yifashishwa mu kuba yakurwamo ubugari. Ndetse kandi hariho umukingo muremure, ku buryo umuntu adashobora kuwusimbuka.

Inyanya ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku bantu benshi bakora ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi kuko babona umusaruro maze bagakora ibikorwa bigendanye n'iterambere.

Umurima uhinze neza urimo ibigori ndetse n'ibiti byinshi ubona ko hirya hari urutoki na rwo ruhahinze bikaba bitanga umusaruro uhagije.

Ikawa ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku bahinzi, bakabasha kwiteza imbere ndetse bagateza n'Igihugu imbere muri rusange, akaba ari yo mpamvu abahinzi bayo usanga barakoze ibikorwa byinshi bitandukanye.

Umurima urimo imboga n'imbuto, usanga akenshi abahinzi bawukoresha basarura, izo mbuto bahinzemo, bityo ntibakoreshe amafaranga bajya kuzigura.

Ibihingwa byinshi bikunze kuba biri ahantu ku murongo kugira ngo ifumbire igeremo neza kandi n'umusaruro uzabashe kwiyongera, niyo mpamvu usanga abahinzi babigize umwuga babona amafaranga menshi.

Umugabo uhetse ipombo aka arimo kugenda anyanyagiza umuti mu bigori, yambaye ingofero kandi imbere ye hakaba hari urukuta runini rutandukanya iyi mirima, uko buri wese amenya muwe.

Igihingwa cy'ibirayi ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro mu buryo ubwo ari bwo bwose. Akaba ari yo mpamvu abantu bahinga ibirayi bavuga ko bibamara ubukene bakabasha kwiteza imbere.

Umugore n'umugabo bakora ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi bw'ibinyomoro, bambaye imyenda y'umukara, umweru ndetse n'umutuku, bigaragara ko ari abahinzi.

Umugabo uri mu murima w'imboga bigaragara ko akora ubuhinzi bujyanye n'imboga n'imbuto, avuga ko uyu musaruro uvamo awukoresha cyangwa se akabona amafaranga yo kurihira amashuri abana.

Ahantu bakora ubuhinzi ndetse bakanorora, ahangaha bakaba bafite amagi barimo kugenda bakusanya, ahangaha bakaba borora inkoko, akaba ari wo mushinga bahisemo kuba bakora.

Imiti yiganjemo ibinini, hakaba hariho n'uko yitwa ndetse kandi akaba ari amagarama magana abiri na mirongo itanu, imyinshi ikaba ifungiye utuntu tw'udusashi, ikaba ihabwa amatungo agiye atandukanye.

Inkwavu zigera ku munani, zikaba zirimo kugenda zifata ibiribwa. Ziganjemo iz'umweruru zigera kuri enye, iz'umukara ebyiri ndetse n'urundi rumwe rufite amabara avangavanze rurimo kureba hejuru.

Iyo umuntu arwaye yihutira kujya kwa muganga kugira ngo abashe kubona imiti imufasha gukira vuba, akaba ariyo mpamvu abantu bashishikarizwa kujya bajya ku ivuriro mu gihe bagaragaje ibimenyetso.

Ikibuga kikaba kiririmo agakoko katameze neza karacyari gatoya, bigaragara ko gafite uburwayi, karimo kugenda kararerembuza amaso ndetse kandi aka ngagaka gafite amabara y'umukara n'umweru.

Ubworozi bw'ingurube ukunze gusanga butanga umusaruro mwinshi, akaba ari yo mpamvu aborozi bazo, bashaka ibyo kurya byinshi bitandukanye n'imiti bakaziha.

Ibikoresho biri mu cyumba, ubona ko ari imiti igiye itandukanye yifashishwa kugira ngo babashe kuvura abantu bagize ibibazo by'uburwayi, iyo miti iri mu ducupa tubiri dusa.

Ahakorerwa ubworozi bw'ingurube hakaba hariho ho za zindi za kijyambere, zika zirimo kugenda zitora imvungure, ndetse kandi hakurya hariho ikindi gisafuriya kinini zibasha kuriramo.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura, cyane cyane iyi ngiyi ikoreshwa no mu bimera, mu gihe barimo kubitera imiti yica udukoko, aha ngaha ikaba iboneka aho bacururiza imiti cyangwa se kuri farumasi.

Imiti myinshi ikunze guhabwa amatungo kugira ngo ayo matungo abashe gukura vuba, niyo mpamvu abahinzi n'aborozi, bagira amatungo bakayagurisha ku isoko.

Umuti wifashishwa mu kwica udukoko dutandukanye hamwe no kuvura indwara nyinshi zifata umuntu mu gihe arembye.

Ahantu barimo kugenda banika umuceri, bakaba barimo kugenda bawusanza kugira ngo ubashe kuba wakuma, hanyuma ujyanwe mu ruganda, utunganwe uzavemo umuceri wo kurya.

Umuti umuntu ashobora kuba yagura muri farumasi cyangwa se iduka ricuruza imiti ukaba uriho icyo ukora ndetse hashushanyijeho inyamaswa igenda ivura, hakaba hariho inka, ihene, ingurube, indogobe ndetse n'ibindi.

Umuti wifashishwa mu kuvura hakaba igaragaza amazina yawo ndetse kandi uyu nguyu wawifashisha urimo kuwutera mu buhinzi, aha ngaha bifashishwa n'abahinzi kandi banorora.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'umweru, yambaye kandi ikabutura irimo utubara dutukura ari gukora ubuhinzi bujyanye no gukora imihanda.

Umugore w'umuhinzi akaba arimo gu kugenda ayora ifumbire kugira ngo ariryane mu bice bigiye bitandukanye by'umurima, abashe kuba yongera umusaruro, akaba kandi akennye igitambaro cy'ubururu mu mutwe.

Abahinzi b'imboga n'imbuto usanga bakunda kuvuga ko iyo uhinze imboga n'imbuto, ubona amafaranga ukoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye bya buri munsi.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo abatwara abantu n'ibintu, bakaba barimo kugenda bakora umuganda, harimo n'inzego z'umutekano, urubyiruko, ndetse n'abaturage muri rusange, bakaba barimo kugenda babagarira izi ndabo kugira ngo zikomeze zimere neza.

Imbaga y'abantu benshi biganjemo urubyiruko, bakaba barimo kugenda basibura inzira z'amazi kugira ngo igihe imvura yaguye azabashe gutambuka nta kiyitambitse mu nzira ndetse kandi hafi ya bose bafite amasuka.

Imigenda myinshi iri kunyuramo amazi, bigaragara ko hari abantu bari gukora amasuku kugira ngo habashe kumera neza, habe hari isuku kandi hakeye.

Abahinzi b'ibirayi, bakaba barimo kugenda, bakura ibiti mu murima, hamwe barimo kugenda babikura ndetse kandi hakaba barimo kugenda, bareba ikibazo imirima yabo ifite.

Abahinzi benshi usanga barabigize umwuga ku buryo iyo bari guhinga usanga bakoresha ifumbire mvaruganda bityo umusaruro wabo ukabasha kwiyongera. Rimwe na rimwe iyo umuntu ari guhinga afite ifumbire n'ibihingwa bye, birakura kandi bikera.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagabo bakaba barimo kugenda batera imyaka bifashishije imigozi, barimo kugenda bapima kugira ngo bamenye intera iri hagati y'ikimera n'ikindi ndetse kandi ahantu biri bagiye bahasasa.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isize irangi ry'umuhondo n'icyatsi ku nzugi ubonaka ari ahantu heza kandi hakwiriye gukorerwa ibikorwa by'iterambere.

Abahinzi b'umuceri bavuga ko iyo bahinze umuceri baba bafite amafaranga menshi, ku buryo bayakoresha mu bikorwa by'iterambere bigiye bitandukanye.

Abayobozi batandukanye baturutse mu bice bitandukanye hirya no hino, ubona bambaye imyambaro y'umutuku ndetse n'ubururu harimo umwe muremure ukenyeye imikenyero.

Mu isoko rwagati hakaba harimo amoko agiye atandukanye y'imbuto, hakaba higanjemo amatunda, hakaba harimo amaroji, imyembe, inanasi ndetse akaba hariho n'amatunda, hakurya kandi hakaba hariho n'imboga z'amoko agiye atandukanye.

Imifuka myinshi ikaba irimo imiceri akawunga ndetse kandi hariho n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, hakaba n'umunzani wifashishwa mu gupima, hakaba hariho n'amajerekani agera kuri abiri arimo amavuta.

Igikoresho cyabugenewe bagiye bafata voka kugira ngo zitaza gupfa bakazishyiramo, hanyuma kandi zikaba inyinshi muri zo zifite utuntu tumeze nk'uduheri, zikaba zigiye gutunganywa kugira ngo zazaribwe cyangwa se zikorwemo ibindi bikoresho.

Abahinzi b'imyumbati bakunze kugaragaza ko iyo bayihinze bagashyiraho ifumbire babona amafaranga, bifashisha mu bikorwa bitandukanye, ni yo mpamvu usanga babigize ibyabo.

Agace karimo ibishyimbo bakaba bagiye babikusanyiriza hamwe nk'umusaruro wabonetse, bikaba byiganjemo bya bindi bitukura ndetse bakaba barimo kugenda babishyira ahagaragara kugira ngo abantu babashe kubiha.....

Abahinzi b'ibigori akenshi usanga bakunda kubona umusaruro w'igihe kirekire kuko ibigori akenshi bivamo kawunga yifashishwa mu gukora cyangwa se mu gutekwamo ubugari.

Imifuka myinshi, bagiye buzuzamo umusaruro, ndetse kandi higanjemo umuceri, bagiye batunganya imwe iraziritse, igiye igerekeranye, ndetse indi yo batari bafunga irahagaze, bagiye bayitsindagira.

Umurima urimo twa duti twifashisha mu kuba twakorwamo imishingiriro ndetse kandi hino hariho urubingo rwa rundi bahira bakabihereza amatongo, hakurya hariho umurima w'ibigori byenda kwera.

Agahanda k'igitaka kakaba gateganye n'umurima urimo insina, hakurya hakaba hariho igiti kinini cya avoka bikaba harimo ibyatsi bikeya ndetse kandi uyu muhanda uraringaniye.

Agace karimo ishyamba, aha ngaha akaba ari bimwe mu bikurura imvura ndetse kandi aha ngaha ni bimwe bagenda bashishikariza abantu kwita ku bidukikije.

Ahantu hari ikigo cy'amashuri kikaba gikikijwe n'ibiti by'ibishupuri ndetse hakuno hakaba hariho ibiti by'imyumbati ndetse hakaba harimo nt'ikibuga aho abantu bashobora kwicara mu gihe barimo kuruhuka.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko bidufasha mu bikorwa bimwe na bimwe bitandukanye, akenshi usanga hari abantu bavuga ko ibidukikije ari isoko y'ubuzima bwa muntu.

Inzu ikikijwe n'ibiti, ku ikubitiro hakaba hariho igiti kinini cya avoka ndetse hakuno hakaba hariho n'ikindi gifite uturabo tw'umuhondo na cyo ubwacyo kikaba gisa icyatsi.

Umurima uhinzemo ibiti bya avoka, bikaba bitaratangira gutanga umusaruro, akaba ari mu busitani ndetse hakurya hariho amazu yegereye kino giti akaba ari ba nyiraho bahatuye.

Inka nyinshi ukunze gusanga zijya kurisha mu bibara, ariko muri iyi minsi kubera ko byacitse, nta nka wasanga yagiye kurisha ku gasozi, aborozi ubwatsi babujyana mu ngo, aho inka ziba ziri.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko usanga harimo ibiti bibazwamo ndetse bagakuramo imbaho zivamo intebe n'utubati n'ameza.

Abahinzi benshi bakunze kuba bafite ibyatsi byo gukoresha mu gihe bari guhinga, ni yo mpamvu ubona amatungo yabo yarakuze kuko abona ibyo kurya bihagije, bityo bigatuma babasha kubona amafaranga menshi.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko bidufasha guhumeka umwuka mwiza, bityo tukabaho dufite ubuzima bwiza buzira umuze. Ni yo mpamvu abantu bashishikarizwa gutera ibiti byinshi.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko bituma duhumeka umwuka mwiza, rimwe na rimwe usanga hari igihe umuntu aba ari kugenda, hari amahumbezi akumva aguwe neza.

Indabo zifite ibintu bimeze nk'ibikakarubamba, ndetse kandi hariho n'imigwegwe, na yo ikaba igira ibibabi bimeze nk'ibi, uretse ko byo aba ari icyatsi. Bikaba byifashishwa mu kuba byakorwamo imigozi.

Umurima urimo ibihingwa bigiye bitandukanye byiganjemo imiteja, hakurya hakaba hariho insina ndetse kandi aha ngaha uyu murima uri hakaba higanjemo ibindi byatsi byamezemo bigaragara ko hatigeze habagarwa.

Umurima uhinzemo urusenda rukaba rufite ibitumbwe ndetse kandi ntabwo ruratangira gutukura, aha ngaha bakaba barabigize umwuga kuba bahinga urusenda, ni kimwe mu bitanga amafaranga.

Uturima tugiye dutandukanye, tugiye turi mu dupariseri, twiganjemo utwa karoti tugera kuri dutatu, hakurya hakaba hariho n'utundi, ku ruhande hakaba ari n'akandi gahinzemo ibijumba.

Abahinzi b'imbuto bakunda kuvuga ko imbuto ari nziza kuko zibafasha kubona amafaranga bakiteza imbere, maze bakumva bameze neza kuko bakemura ibibazo bahura na byo.

Abahinzi b'imboga n'imbuto baba bavuga ko iyo wahinze imbuto zawe, ugashyiraho ifumbire, ubona amafaranga menshi yo gukoresha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Indabo akenshi ukunze gusanga, ziri impande y'inzu, kuko haba habera ibikorwa bitandukanye bya siporo ndetse n'ibindi bitandukanye. Ziba ziteye ku rubaraza.

Abahinzi benshi bakunze guhinga inyanya kugira ngo biteze imbere. Akenshi usanga zihingwa mu gihe cy'Impeshyi kuko abahinzi ari bwo babona imiti yo kuzitera.

Abantu benshi bakunze gutera indabo ku rubaraza rw'inzu kugira ngo habe hasa neza, akaba ariyo mpamvu bashishikariza abantu bose gutera indabo kugira ngo bimakaze umuco w'isuku mu baturage.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi ndetse kandi akaba ahagaze ahantu, asa nk'aho bahinga ibijyanye n'urusenda, aha ngaha ari akaba arimo kugenda yitegereza umusaruro uboneka muri aka gace.

Iyo abantu bari guhinga usanga, bakoresha ifumbire nyinshi ndetse bagakoresha ifumbire igezweho mvaruganda kugira ngo, umusaruro ubashe kwiyongera.

Akarima k'igikoni gateyemo imboga zitwa idodo, aho ziribwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kuko zibitseho intungamubiri nyinshi cyane.

Ibinyomoro ni ingirakamaro, kuko usanga bifasha abantu benshi, kubaho ubuzima bwiza, kuko baba bariye intungamubiri, zifasha umubiri kumererwa neza.

Iduka ririmo amoko agiye atandukanye y'imbuto, yiganjemo pome ndetse hakaba harimo n'imyembe, hakaba hariho n'umuntu urimo kugenda abicuruza, ategereje ko abakiriya baza kugenda babireba.

Abahinzi ba voka ukunze gusanga akenshi babona amafaranga bakuye mu buhinzi bwabo, bakaba bashishikariza bagenzi babo guhinga iki gihingwa kuko gitanga amafaranga menshi.

Abahinzi b'imboga ndetse n'imbuto bavuga ko iyo wabihinze neza ubona amafaranga wifashisha mu gukemura ibibazo bigiye bitandukanye kandi ukumva ko nta kibazo ufite.

Umugore ukora ibikorwa bijyanye no kubumba, cyangwa se gukora imitako, yambaye umupira w'umweru kandi arimo guseka, afite igikoresho akoresha akazi ke gifite ibara ry'umuhondo.

Akarima k'igikoni usanga karimo imboga, abahinzi bakoresha mu gihe bagiye guteka, bigatuma bishimira ko bitabagora bagiye kuzihaha.

Abagore bagera kuri babiri bari kumwe n'umwana, barimo kugenda batunganya imiteja ndetse kandi ahantu bari harimo ibindi bimera bigiye bitandukanye barimo kugenda barandura.

Abantu benshi bakunze guhinga ibihingwa bitandukanye, ku buryo babijyana ku isoko bakabona amafaranga bifashisha mu bikorwa byabo by'iterambere maze bakabona amafaranga menshi.

Imyungu ukunze gusanga ari igihingwa abantu benshi bakunda kurya kuko kiba gifite intungamubiri ariko hakaba n'abantu batayikunda kuko itabaryohera nk'uko abandi babivuga.

Ababyeyi babiri bakaba bafite imbuto zigiye zitandukanye, barimo kugenda berekana ndetse kandi umugore akenyenye igitambaro cy'icyatsi, barimo kugenda bagaragaza umusaruro bagiye gutunganya.

Abantu babiri barimo gukora akarima k'igikoni akaba ari umugore n'umugabo, aho bari kandi hakaba hateye ibibiringanya bya bindi biba bimeze nk'intoryi ndetse hakurya hakaba hariho uruzitiro rw'imiyenzi.

Ishyamba ryinshi usanga rikunze kubamo inyamaswa zigiye zitandukanye, aho abantu bashishikarizwa kwitonda kugira ngo bataribwa n'izo nyamaswa ziba ziri mu ishyamba.

Karoti ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro, iyo washyizeho ifumbire bityo ukabona amafaranga yo kwifashisha mu bikorwa bitandukanye, bikaba kandi bifasha abantu benshi batari bake.

Ibinyomoro ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro ku bahinzi, kuko akenshi usanga ibinyomoro bigura amafaranga menshi, ugereranyije n'ibindi cyangwa se izindi mbuto.

Agataro kariho imineke ikaba iri mu maseri agiye itandukanye, ni ya yindi bita kamara masende, ikaba itukuye ku buryo umuntu ashobora guhita ayijya aka kanya mu gihe yishyuye amafaranga asabwa.

Igihingwa cy'umwungu ni gihingwa usanga cyera ahantu hatambitse, ubona ko hari ifumbire nyinshi bityo abahinzi bakabasha kubona amafaranga mu gihe babijyanye ku isoko.

Ahantu hari ibiti bibiri by'indabo, zikaba ari za zindi z'iroza, aha ngaha bikaba bigaragaza ubwiza bw'ubu busitani. Hakaba hari inzu ndende ifite amabati ndetse isize amarangi y'umweru.

Inyanya ni igihingwa cyiza, gishobora kuba cyatanga umusaruro mu gihe gito. Kenshi na kenshi hari aho usanga zarahishije, bityo ukabasha kubona amafaranga iyo wazigurishije.

Ahantu hari urukuta rurerure, hakaba mo imbere harimo ubusitani burimo ibiti bikiri bitoya ndetse kandi hariho ubusitani barimo kugenda batunganya kuko hariho ibyatsi bikora neza ubusitani bikiri bitoya bateye.

Intoryi zihinze mu murima ubona ko ziri ahantu mu ntabire zabagariwe none bari kuzivomera kugira ngo zituma, abahinzi benshi usanga bakoresha ubu buryo kugira ngo babone umusaruro mwinshi.

Aho bakora ubuhinzi bw'urusenda zimwe zikaba zatangiye gutanga umusaruro, hakaba harimo zimwe zabaye umuhondo ndetse n'izindi zikiri bitumbwe, zikaba habura igihe gitoya kugira ngo na zo zibashe gutukura.

Umwembe ni igihingwa gitanga umusaruro ku bantu benshi, hari ahantu usanga barateye indabo inyuma y'inzu, ukabona ko hasa neza kandi hari isuku nyinshi bigaragara.

Akarima k'igikoni kakaba karimo imboga z'amoko zigiye zitandukanye ziganje mu todo, hakaba n'ibindi bita ibita itabi, hakaba harimo n'andi moko agiye atandukanye, akaba ari bwa buryo umuntu yiteganyiriza akaba adashobora kubura imboga.

Abahinzi b'ikawa bakunda guhinga ikawa kuko babona amafaranga menshi, bityo bikabafasha kwiteza imbere. Ni yo mpamvu usanga abahinzi bakunda kuba bafite iterambere rirambye.

Indabo ziteye ku mihanda akenshi ukunze kubona ko ziba zisa neza kuko zituma habasha kumera neza n'abantu bahanyuze bakabona ko hari isuku, niyo mpamvu bazitera ku muhanda.

Abahinzi b'imboga n'imbuto bakunze kuvuga ko bahura n'imbogamizi yo kudahinga neza ibihingwa byabo ngo babishyireho ifumbire, bityo n'umusaruro ntiwiyongere. Ni yo mpamvu bashishikariza abaturage gukora cyane.

Umuhinzi, akaba ahinga intoryi, aha ngaha ari akaba ari mu murima we, arimo kugenda yitegereza uko umurima umeze areba niba birimo kugenda bitanga umusaruro, aha ngaha akaba ari umuhinzi w'icyitegererezo.

Umwembe ni igihingwa cyiza gitanga umusaruro kuko usanga abahinzi b'imyembe babona amafaranga bakemuza ibibazo bahura nabyo bya buri munsi, akaba ariyo mpamvu rero usanga bahinga iki gihingwa.

Ahantu hari inzugi z'umukara, hakaba imbere yaho hariho ubusitani burimo ibiti bigiye bitandukanye ndetse n'indabo, inzugi kandi zikaba zifunze, hakaba hariho ingufuri ndetse na serire.

Ubuhinzi bwinshi bukoresha ifumbire mvaruganda, kuko usanga bayihinga ibihingwa by'amoko meshi, bakabona umusaruro mu buryo bugiye butandukanye.

Abahinzi b'imboga n'imbuto usanga bavomera imyaka yabo kugira ngo bazabashe kubona umusaruro wihuse. Akenshi iyo uvomerereye imyaka ugashyiraho ifumbire ubona umusaruro.

Abasore babiri bari kuvoma amazi bavomera mu majerekani asa umuhondo ndetse n'icyatsi ubona ko bari ahantu mu gishanga kandi bari gukora ibikorwa bitandukanye byo kwitanga.

Umugore akaba afite itiyo arimo kugenda anyanyagiza amazi mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo bibashe kuba byatohagiza umurima ndetse kandi izi mbuga bakaba baragiye bazisasira kugira ngo hasi hahore hatoshye.

Ahantu hakorerwa ibikorwa byo kuhira imyaka, hakaba hariho amatiyo ajyana amazi mu bice bigiye bitandukanye, hakaba hariho imboga bagiye batera zikaba zidashobora kuba zabura amazi.

Abahinzi benshi usanga bakunda kuvomerera ibihingwa byabo kugira ngo bimere neza, akaba ari yo mpamvu rero usanga baba bakora ibi bikorwa mu buryo bugiye butandukanye bugezweho.

Agace karimo imisozi igiye itandukanye, hakuno hakaba hariho inzu isakaje amabati atukura, hakaba hariho ubusitani burimo umukindo ndetse kandi hakurya na ho ni akadugudu gatuyemo abantu benshi.

Ikibuga kikaba nta bwatsi burimo, uretse hakuno, ndetse Aha ngaha hakaba hariho n'akandi kazu, hakaba hakikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye, hakuno hakaba ariho bya byatsi biba bimeze nk'umucaca, bikunze kuba mu kibuga cy'umupira.

Ahantu hakaba hahinze icyayi hakurya hakaba hariho ibiti bigiye bitandukanye ndetse kandi hariho amaterasi y'indinganire, hakaba icyayi ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu.

Akenshi ukunze gusanga hari abahinga ibihingwa bitandukanye, bakabibyaza umusaruro ndetse bakabona amafaranga menshi, yifashishwa iyo bari gukora ibikorwa bijyanye n'iterambere.

Ahantu hari igiti cy'umunyinya hakaba hariho n'iminara hakaba hari inzu kandi isize amarangi y'umweru, ikirere nacyo kikaba gisa umweru, igaragaza ko kitaratanga imvura ndetse kandi hariho n'ubusitani bwenda kuma.

Inyubako isakaje amategura, bigaragara ko ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho kandi ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye, bijyanye n'iterambere ndetse abantu benshi barabikunda.

Umurima ukaba urimo kugenda uterwamo icyayi aho bagiye bafata buri hantu hari urugemwe, bagashingaho igiti kugira ngo kitaza kuba cyahirima cyangwa se kigahura n'ibindi bibazo runaka.

Imirima iri ahantu arikiga, hakaba hari hakurya hari amaterasi y'indinganire, hakaba harimo imirima igiye itandukanye, ahari ibyatsi aho abantu bagenda bashira ibihingwa bigiye bitandukanye.

Inyubako zisakaje amabati atukura, harimo abana bari gukina umupira bambaye imyenda y'imituku n'ubururu, hirya hari ibipangu byinshi bikikijwe n'ishyamba.

Akenshi usanga umuceri uhingwa mu bishanga. Mu bishanga ni ho haba hari amazi, ku buryo usanga mu mpeshyi iki gihingwa kidahura n'izuba, bityo kikabasha gutanga umusaruro mwinshi.

Abahinzi benshi iyo bafite ifumbire ubona ko babikora kinyamwuga ndetse ibihingwa byabo bikabona ifumbire ihagije, bagahinga, bakeza, bagasagurira n'amasoko.

Imirima iri ahantu mu giturage ikaba bimeze nk'ahari ibiraro ndetse hakaba hari insina zikiri ntoya bateye, hakaba hariho n'ibitare bihakikije, hakurya hakaba hariho imisozi irimo amashyamba.

Imirima ubona ihingwamo ibihingwa bigiye bitandukanye, hirya hari ishyamba ryinshi ry'inzitane; bigaragara ko ari ari ishyamba ryinshi, riteyemo ibiti by'amoko yose.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo yubakishije amatafari ahiye ubona ko ari inyubako izitije ibiti byinshi kandi iruhande rwayo hari amazi atemba mu mukokwe uhari.

Amaterasi akenshi akunze guhingwamo urubingo rutunga amatungo ndetse ugasanga heramo ibishyimbo, iyo washyizemo ifumbire nyinshi kandi wabihinze mu gihe nyacyo.

Ihene baziritse akagozi ku kaguru ndetse ifite uduhembe dutoya, ikaba irimo kugenda isa n'iyinukiriza ndetse kandi ifite ibara ry'umukara hejuru ku mugongo.

Ingurube iri kureba nabi, ikaba ifite urwoya ndetse kandi ifite n'ibitwi birebire, irimo kugenda irya ibiryo wayihaye ndetse iyi ngurube ifite ibara ry'umweru.

Ikiraro kikaba kirimo ingurube nini cyane, ikaba ifite ibyana bigera ku munani bikaba birimo kugenda bifata ibyo kurya, ndetse kandi byose birasa na nyina kuko bifite amabara y'umukara adumaguye.

Ingurube akenshi zikunze kuba zira, ahantu, hakeye kandi hasa neza, ni yo mpamvu ubona ko zisa neza na zo, kandi zakuze neza.

Barwiyemezamirimo usanga bafata amafaranga bakagura amatungo maze bakabasha kuyitaho ku buryo iyo babonye amafaranga bayakoresha mu bikorwa by'iterambere ndetse no gufasha abana kujya kwiga.

Abagabo babiri b'abahinzi borozi, ni umugore n'umugabo ndetse kandi bakaba barimo kugenda baganira ndetse barimo kugenda berekana ikiraro cyabo harimo inka ndetse bagiye bahereza ubwatsi.

Umugabo ukora ubworozi bw'amatungo magufi, yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'umweru, ubona ko afite agapira k'umutuku, ahagaze inyuma y'inzu.

Ingurube ikaba iri mu kiraro, ndetse ikaba irimo kugenda irisha, ubwatsi bayihaye, ndetse hakurya hariho ibyana, yamaze kuba yabyara, ingurube kandi ifite amabara yiganjemo umweru, ndetse n'umukara.

Umurima hakaba harimo umugabo waje kwahura ihene, akaba arimo kugenda azicunga kugira ngo, namara kubona ko zahaze abashe kuba yazicyura akazijyana mu rugo, hanyuma na we akaba yakora ubworozi.

Ubworozi bw'inkoko akenshi ukunze gusanga bugira amafaranga. Ni yo mpamvu aborozi bahora bafite amafaranga, yo gukoresha ibikorwa bitandukanye, nk'iby'ubucuruzi, kurihira abana amashuri, ndetse no gutanga mituweli.

Aborozi benshi usanga bakunze kuvuga ko amatungo akunda guhenda mu gihe cy'imvura kuko ubwatsi buba bwarabonetse. Inyana nyinshi zikunze kuba zifite amabara y'umweru n'umukara.

Inka iri mu kiraro kikaba gisakajwe ibyatsi ndetse hakurya hariho aho irira akaba ari hasi, ndetse kandi inka ni iy'umukara ikaba ikamwa.

Ihene y'umukara n'umweru ndetse kandi zikaba zirimo kugenda zirisha ahantu hegereye hari ikizu, gifite ibikuta birebire, hasi hakaba hariho umucaca niho zirimo kugenda zirisha.

Abahinzi akenshi usanga amatungo yabo aba yarakuze kuko abona ubwatsi bakuye mu mirima yabo, noneho bakabasha kuzigurisha bakabona amafaranga menshi cyane.

Inka ikaba iri mu kiraro ndetse kandi ahaniri harasasiye, imbere hari aho ifatira ubwatsi ndetse kandi ikiraro kikaba kigizwe n'ibiti bigiye bitambitse ku ruhande ku buryo idapfa gusohoka.

Ubworozi bw'amatungo atandukanye kundanda gusanga hari inka zihabwa imiti ndetse n'ibinini kugira ngo zibashe gukora neza, akaba ari yo mpamvu ziba ziri mu rugo.

Abana babiri ndetse na nyina barimo kugenda bagaburira inkoko ziragera kuri eshatu, inzu yabo kandi bagiye bayubakisha ibiti ndetse barimo kugenda bayihoma ibyondo kugira ngo ikomere.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo n'umweru, ubona ko harimo amatara agiye atandukanye, bigaragara ko ari inzu nziza zikomeye kandi zifite uburambe.

Aborozi b'amatungo bakunze kuziha ubwatsi bwinshi kugira ngo zibashe gukura neza kandi zifite amafaranga menshi, babashe kwiteza imbere mu bikorwa bitandukanye.

Ubworozi bw'ingurube ukunze gusanga ari bwiza kuko buba butanga umusaruro, aborozi benshi bakunda kubona amafaranga bakoresha mu bikorwa bitandukanye, babikesha ubworozi bw'ingurube.

Umugabo akaba arimo kugenda atema ubwatsi ahereza inka zigera kuri ebyiri zirimo kurira mu kiraro, yambaye ingofero n'agapfukamunwa k'umukara ndetse kandi afite igipanga kinini arimo kugenda atemesha.

Ingurube iyo yitaweho igahabwa ibyo kurya ndetse n'imiti myinshi itandukanye, usanga ibasha gukura vuba maze igatanga umusaruro mu gihe gito.

Ihene zigera kuri eshatu zikaba zirimo kugenda zirisha bagiye bazizirikira ku giti ndetse kandi, zirimo kugenda zirisha, ziganjemo izibyara ndetse kandi ahantu ziri hariho ibindi biraro.

Inka iri ahantu hari ikiraro, ndetse kandi kikaba gifite ibiti bikeya ku buryo ishobora kuba yaca ikajya hanze. Ahantu iri kandi bagiye bayisasira, ndetse kandi ubwatsi yamaze kujya irimo kugenda ibushira hasi ikabuhagararaho.

Ikiraro kikaba kirimo inka ifite amabara agiye atandukanye, yiganjemo umweru ndetse n'umukara. Haba mu mpanga ndetse no ku murizo hose ni umukara. Ikaba iri ahantu hasasiye ndetse ikiraro irimo kikaba gihomye ibyondo.

Ikiraro kirimo inka ikaba irimo kugenda irisha ubwatsi bagiye bashira hasi, kikaba gikikijwe n'ibiti ku buryo itashobora gusohoka cyangwa se mu gihe umujura aramutse aje kuyiba bitamworohera.

Inka ikaba irimo kugenda yitegereza mu bice bigiye bitandukanye, bayihaye ubwatsi budafashije butameze neza ndetse kandi ahantu iri ntabwo ikiraro giteye neza, aha ngaha ikaba idafashwe neza.

Ingurube usanga zikunze kororwa maze zigaterwa inshinge kugira ngo zikingirwe indwara ziye zitandukanye, ni yo mpamvu abahinzi n'aborozi baba barabigize umwuga.

Ahantu hagenewe kororerwa inkoko, zikaba zirimo amoko agiye atandukanye, yiganjemo izifite ibara risa, zikaba zasize umutwe hejuru, zirimo kumviriza ibiri kubera mu bindi bice, hakaba hariho n'utuntu ziriramo.

Inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, iki kiraro biragaragara ko gikomeye. Iyo nka ifite amabara y'umweru n'umukara, ubona ko ari ikimasa cyiza, kandi gifite amafaranga menshi.

Ingurube nyinshi zikunze gutanga umusaruro kuko iyo bazigurishije babona amafaranga menshi. Hari igihe usanga aborozi babona amafaranga arenze ayo baguze amatungo bafite.

Umugore arimo kugenda aganirizwa n'urubyiruko rw'abagabo babiri, bakaba arimo kugenda abereka inkwavu kugira ngo abashe kuba bamugira inama z'uko yafata neza amatungo ye.

Abantu bakusanyirije ihene bagiye bazirika amaboko kugira ngo zitirukanka, aha ngaha ni mu isoko bazizanye kugira ngo babashe kuba bahura n'abaguzi kugira ngo bazigurishe na bo babone amafaranga.

Inzira ikaba irimo abantu barimo kujya mu byerekezo bigiye bitandukanye ariko hagati hakaba harimo ihene ziri kujyanwa mu bice bigiye bitandukanye kugira ngo babashe kuzahura.

Abagabo n'abagore bakaba bameze nk'abibumbiye mu makoperative bakaba bafite ibyana by'ingurube barimo kugenda, bashira mu migozi ari nako bagenda babikurura, barimo kugenda bahuriza hamwe kubera ko ari koperative.

Icyumba gikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubworozi, ubona ko ari ahantu heza kandi hagezweho ho korohera amatungo, ku buryo umuntu wese abasha kubona amafaranga menshi akoresha mu bikorwa bye.

Abahinzi benshi bavuga ko iyo bahumbitse imbuto zitandukanye ndetse n'ibiti byo gutera, usanga babona amafaranga aturuka mu baturage hirya no hino.

Umugezi urimo kugana mu byerekezo bigiye bitandukanye, ndetse kandi hakaba hariho ishyamba. Aha ngaha hakaba harimo amazi ashobora kwifashishwa mu bikorwa bya buri munsi, ukaba wayamesesha, ndetse mu gihe yasukuwe ushobora no kunyobwa.

Akenshi iyo abantu bagiye korora, usanga babikora kinyamwuga kuko babikorana umutima mwiza. Ni yo mpamvu usanga bafite amafaranga, bakayakoresha mu bikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye.

Abahinzi benshi usanga bakunda gukoresha uburyo butandukanye bwo guhinga, hari abacukura imyobo bagashyiramo ifumbire hanyuma bagashyiramo ibihingwa kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Abahinzi b'ibishyimbo bavuga ko iyo babisaruye byareze cyane ari bwo babona umusaruro maze bakabasha kwiteza imbere, rimwe na rimwe usanga aba bahinzi bakunda guhura n'imbogamizi y'uko izuba riba ryarabaye rikeya.

Ahantu hari ubwanikiro, hakaba hari ibigori bigiye bitandukanye bagiye bazirika, aha ngaha kandi iyo bimaze kuma babijyana mu nganda zigiye zitandukanye bakabitunganya, bikaba byavamo akawunga.

Abahinzi benshi bakunda kubona amafaranga bakuye mu buhinzi bwabo bakayakoresha ibintu bigiye bitandukanye bityo bakiteza imbere, bagateza n'Igihugu imbere muri rusange.

Akazu gasakaye kakaba karimo ibiti ndetse kandi ni bya bindi bikiri bitoya bagiye bashyira mu bihoho, ndetse kandi aha ngaha barabigura bakajya kubitera abantu bashaka gukorera ishyamba.

Imboga nyinshi zikunze guhingwa mu turima tw'igikoni kubera ko zitanga umusaruro uhagije, iyo zashyizweho ifumbire. Abaturage bashishikarizwa guhinga imboga mu turima tw'igikoni.

Ku bihunikiroho hakaba hariho ibigori bagiye bashendika hanyuma bakabishyira ku biti bikaba birimo kugenda byuma kugira ngo bizabashe kujyanwa ahantu hagiye hatandukanye babashe kubikuramo ifu ishobora gutekwamo akawunga cyangwa se bakaba bakoramo ifu yo kunywa mu gikoma.

Abahinzi benshi usanga bakunda gukoresha uburyo butandukanye bwo guhinga, hari abacukura imyobo bagashyiramo ifumbire, hanyuma bagashyiramo ibihingwa kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Ahantu hahinze imigozi y'ibijumba ndetse akaba ari ku buso bunini cyane. Aha ngaha bakaba barakoze umushinga wo kugurisha ibijumba ndetse aha ngaha biteguye kubona umusaruro uhagije kuko byenda kugera igihe cyo kwera.

Ahantu bakora ubworozi bw'imbuto, aha ngaha hakaba harimo amashu, bashobora kuyagurisha bayajyana mu bindi bice bitandukanye kugira ngo babashe kuba bayahinga, hanyuma na bo babone umusaruro.

Abahinzi benshi usanga bakoresha uburyo butandukanye bwo kuvomera imyaka, ku buryo bafata amazi bakayayobora mu murima, kuko ibihingwa biba bikeneye amazi menshi.

Umugabo akaba arimo kugenda afata amatungo ameze nk'umuganga, arimo kugenda ayavura, hakurya kandi hariho inka nyinshi zikusanyirijwe ahantu hamwe, aho zitaha.

Inka iri kugaburirwa ubwatsi usanga akenshi ibuhabwa saa sita na nimugoroba kuko uramutse uyihaye ubwatsi bwinshi, ntabwo wabona aho ubukura kuko izuba ryaravuye, ni mu mpeshyi.

Umugabo urimo gukama inka, akaba ari kumwe n'undi mugenzi we urimo kugenda ayishishira kugira ngo idatera amahane, akaba ntakintu yicayeho, arapfukamye yambaye bote z'umukara ndetse kandi uyu bari kumwe yambaye ikoti ry'umukara.

Abantu bari gukina umupira ubona ko umwe yagize ikibazo akavunika none bakaba bari kumushyiriraho umuti kugira ngo asubire mu kibuga, hanyuma bakomeze bakine umupira.

Aborozi benshi bakunda gukoresha ifumbire mvaruganda ariko bagakoresha n'ifumbire ikomoka ku matungo kuko baba bayifitiye, bakavuga ko bibaha umusaruro mwinshi.

Umusore urimo gukama inka, akaba arimo kugenda ayijisha kugira ngo idatera amahane, iyi nka kandi ifite ibyondo, ndetse ku itako bayiteye umuti ugaragara nk'ibara ry'ubururu.

Aborozi benshi ukunze gusanga baba bafite amatungo bakayateza inshinge kugira ngo atazarwara indwara zitandukanye, ni yo mpamvu abantu bakunda korora kandi babishyizeho umutima.

Ubworozi bw'amatungo, ukunze gusanga bugira amafaranga iyo bwitaweho neza. Aborozi usanga bavuga ko, iyo babishyizeho umutima bagashaka ubwatsi bagateza n'inshinge, babona umusaruro.

Aborozi benshi usanga bakunze korora amatungo bakayagaburira maze bakabona amafaranga, akaba ariyo mpamvu basurwa n'abayobozi baje kureba ibyo bagezeho maze bagashimijrwa.

Inyoni ikaba ikunda kujya ahantu hari uturabo ndetse ikaba irimo kugenda inyunyuza uturabo kugira ngo ikuremo ubuki ndetse kandi irimo kugenda icuma mo ikinwa cyayo kirekire.

Inyoni ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo icyatsi, hakaba hariho ifite umurizo muremure n'umurizo wisongoye, hakaba hariho utwatsi dufite indabo irimo kugenda inyunyuzamo ubuki.

Inyoni ifite umunwa usongoye, ikaba ifite amabara agiye atandukanye, yiganjemo ay'icyatsi ndetse n'umutuku, iyi ngiyi ikaba ikunda kujya ahantu hari indabo kugira ngo ikuremo ubuki.

Hari inyoni z'amoko agiye atandukanye, nk'uko bibagaragara hari izifite amababa menshi ndetse n'izifite amababa mato, kenshi biba bigaragara.

Akenshi ukunze gusanga inyamaswa zibera mu ishyamba kuko ari ho zibasha kubona ibizitunga mu buryo bworoshye maze zikabaho zishimye kandi zitembera mu ishyamba.

Akanyamaswa kari hejuru mu giti kakaba gafite amabara y'umweru ndetse n'umukara, kakaba karimo kugenda kidoga kirebera mu bice bigiye bitandukanye ndetse aha ngaha aka ni kamwe mu byiza bitatse u Rwanda.

Inyubako yubakishije amatafarihiye ikingishije inzugi zisize irangi ry'umutuku, bigaragara ko ari inzu nziza zikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye kandi byiza.

Inyamaswa nyinshi usanga zikunda kwibera mu ishyamba, aho ziba ziri kurya ibyatsi ndetse hakaba n'inyamaswa zishobora kuba zirya izindi ariko iyo zizibonye ziriruka kugira ngo zirokore ubuzima bwazo.

Inkende, ukunze gusanga ziba mu ishyamba kuko ari ho zibasha kubona ibizitunga. Akaba ariyo mpamvu rero ba mukerarugendo baza gusura izo nyamaswa, kuko bazisiga amafaranga mu gihugu.

Inyamaswa nyinshi zikunze kuba mu ishyamba, ariko hari n'izindi ziba mu mazi kuko usanga zinywa amazi ndetse zikarya n'andi matungo matoya aba ari kugenda hafi aho ngaho.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko usanga bituma ba mukerarugendo baza gusura ibikorwa byacu, haba inyamaswa ndetse n'ibidukikije bindi atari inyamaswa.

Inyoni zirimo amoko atandukanye, hari inyoni ziguruka ndetse n'izindi ziba zitaguruka, zigendera hasi, ni yo mpamvu inyoni nyinshi, zikunda guhahira abana bazo.

Inyamaswa y'inkende ikaba ifite umuneke irimo kugenda irya, ikaba yifashe ku munwa ndetse umuneke na we ikaba iwufashe mu kandi kaboko, ikaba kandi irimo kugenda yurira hejuru mu giti.

Inyoni ifite imirizo miremire, ikaba ifite n'amasunzu, ikaba ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo ubururu ndetse kandi iri ahantu hejuru mu giti, gifite udushami tugera kuri tune.

Akenshi usanga inyamaswa ziba mu ishyamba zikunze kurya ibyatsi ariko rimwe na rimwe ugasanga inyamaswa zirya izindi kugira ngo zikomeze kubaho.

Inkende zikunze kuba ahantu mu ishyamba ariko ugasanga kumanywa zigendagenda mu muhanda ariko zifite abana bazo, rimwe na rimwe zikunda kugenda zihuta kugira ngo zambuke umuhanda.

Akarabo kakaba kariho akanyamaswa kameze nk'akanyugunyugu karimo kugenda kagurukiraho, kanyunyuza ubuki buri mu rurabo, ndetse kandi aha ngaha ni kimwe mu bidukikije biba bigomba kubungwabungwa.

Ibidukikije ni ingirakamaro kuko usanga bituma tubona amafaranga menshi nk'urugero inyamaswa, zikurura ba mukerarugendo bagasiga amafaranga menshi mu gihugu bagiyemo.

Inyamaswa nyinshi zikunze kuba mu ishyamba kuko zihakura ibyo kurya bigiye bitandukanye, hari n'inyamaswa kandi zirya izindi, akaba ariyo mpamvu zihora zuriye ibiti kugira ngo zitaribwa n'izo nyamaswa.

Inyamaswa nyinshi zikunze kuba mu ishyamba, kuko usanga mu ishyamba ariho zibona ibizitunga byinshi, hakaba ari ahantu ubona ko ari heza ba mukerarugendo bakunda gutemberera.

Inyoni ifite amabara agiye atandukanye yiganjemo umukara n'umweru, ikaba ari igikona, kikaba kiri hejuru mu kirere ndetse kandi iki ni kimwe mu nyoni cyangwa se ibisiga binini.

Akenshi ukunze gusanga inyamaswa ziba mu ishyamba ziba zigenda ziri kumwe kugira ngo zibashe kubona ibyo zirya, ni yo mpamvu usanga akenshi zikunze kuba zigendana.

Akenshi usanga imbeba zikunda guca imyenda ndetse no kujugunya ibikoresho bigiye bitandukanye biba biri mu nzu kereka iyo bateze ikinini bakayica.

Inyamaswa ebyiri bita inkende zikaba zirimo kugenda ziganira ndetse kandi zifite imirizo miremire zagiye zishyira munsi y'igiti ndetse kandi zirimo kureba mu cyerekezo kimwe.

Ikinyamaswa kimeze nk'imbata, cyo kikaba kibyibushye, kikaba cyagonze ijosi, kikaba cyatunze amaso mu bice bigiye bitandukanye, hakurya kiri akabari mu gihuru ndetse kandi kikaba kiri mu bwoko bw'ibiguruka.

Inyamaswa nyinshi zikunze kuba mu ishyamba kubera ko ariho zibona ibyo zirya mu buryo bworoshye kandi ugasanga zikunze kuba ziri mu biti hejuru, kuko zikunda kuribwa n'izindi nyamaswa.